Abantu batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse bakurikiye umugabo uri imbere wambaye ikote ry'umukara uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Abantu batandukanye bicaye hamwe mu cyumba kiri kuberamo inama, ku mezi iri imbere hariho abagabo babiri n'umugore umwe wambaye ikanzu y'umutuku, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bicaye mu nama hakubiyemo abaturage n'abayobozi b'inzego zigiye zitandukanye, imbere yabo bose hari akameza gateretseho indangururamajwi ndetse n'umuti uzwi nka sanitayiza.

Abagabo bagera muri bane, bamwe muri bo bambaye amakote, abandi ntayo bambaye, umwe muri abo bagabo afite mudasobwa imbere ye, abandi nabo bafite uducupa tw'amazi imbere yabo ndetse n'amakaye yo kwandikamo ibiri kuvugirwa mu nama.

Abagabo bagiye batandukanye bahagaze inyuma, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, ndetse n'umupira, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu bagiye batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama baratuje. Imbere yabo, hari uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafite n'ibitabo byo kwandikamo.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo abasore, abagabo, abakobwa ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Bahagaze ahantu hamwe abandi barasutamye, bari gufata ifoto bigaragara ko basoje nk'amahugurwa.

Abantu batandukanye, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari mudasobwa, ndetse n'indangururamajwi, zibafasha kumvikanisha amajwi yabo.

Abagabo bagiye batandukanye bicaye mu nama barakurikiye. Bafite uducupa tw'amazi imbere yabo ndetse abenshi muri bo bafite na mudasobwa imbere yabo. Hakaba hateye n'ibiti byiza.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, abenshi muri bo bafite mudasobwa imbere yabo n'uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse hari n'ushinzwe gufata amafoto aho ngaho.

Abaturage batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo hari abayobozi bagiye batandukanye, ab'inzego z'umutekano n'abandi, bari kubagezaho ibitekerezo byabo bakabiganiraho bigakemurwa.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye hamwe, bigaragara ko ari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse inyuma yabo hari undi mugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'imikara. Imbere hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse umwe yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, undi we yambaye ishati y'umweru gusa.

Ahakoraniye abaturage bagiye batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugore uhagaze imbere, inyuma yabo hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bicaye hamwe, abenshi muri bo bambaye ibitambaro by'umweru mu mutwe ndetse bakurikiye inama y'abayobozi babo bari kubagezaho.

Abantu batandukanye harimo abagore, abakobwa, abasore ndetse n'abagabo bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama bamwe ku meza bicayeho hariho uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse barakurikiye.

Abantu bagiye batandukanye benshi bambaye imipira yiganjemo iy'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, bakaba bakurikiye inama iri kubera aho hantu ndetse bafite n'amazi yo kunywa.

Abantu batatu bagizwe n'abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bicaye mu nama imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo.

Batatu bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bose bambaye amakote ndetse bicaye ku ntebe z'imikara, bari kumwenyura, imbere yabo hari indangururamajwi zibafasha kumvikanisha amajwi yabo.

Umugore uhagaze imbere kuri puratifomu, hari indangurura majwi iri kumufasha gusakaza ijwi rye, yambaye ikote ry'umukara ririmo uturongongu tumanuye ari gutanga imbwirwaruhame ku bari aho.

Abagabo batandukanye bagera muri batatu. Umwe yambaye ikote, abandi babiri bambaye amashati. Bose imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa, n'indangururamajwi zibafasha kumvikanisha ijwi ryabo.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abagabo ndetse n'abagore. Hakaba harimo n'abanyamahanga. Imbere yabo ku meza hateretseho uducupa tw'amazi, mudasobwa ndetse n'igikapu cy'umukara.

Abamama batatu bicaye hamwe, ndetse imbere ku meza hakaba hari uducupa tuharambitse tw'amazi yo kunywa, bakaba bafite amakaramu ndetse n'ibikayi byo kwandikamo, ibiri kuvugirwa mu nama.

Abantu batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama. Bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugabo uhagaze imbere ndetse hari n'undi ushinzwe kugenda afata amafoto.

Ubantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, hari umusore wambaye ishati y'ubururu ukurikiye ndetse n'umukobwa wambaye umupira w'icyatsi uri kwandika mu biri kuvugirwa muri iyo nama.

Umugabo wicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, yicaye ku ntebe y'umukara akaba yambaye ikote ry'ubururu, karuvati y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, imbere ye hari agacupa k'amazi yo kunywa.

Abagabo batandukanye bagera muri batatu bicaye ndetse imbere hari undi wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, abandi bafite mudasobwa imbere yabo, bakurikiye ibiri kuvugirwa mu nama.

Abantu batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe barahagaze abandi baricaye bose bambaye udupfukamunwa, imbere ku meza, hakaba hariho udukombe two kunyweramo amazi ndetse n'isakoshe.

Abantu bagiye batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, baratuje, imbere yabo hari amacupa y'amazi. Ndetse bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugore uhagaze imbere.

Icyumba kiri kuberamo inama, cyicayemo abantu bagiye batandukanye. Hari abandi bicaye imbere yabo bose. Bakaba ari bo bayoboye iyo nama. Bafite indangururamajwi zibafasha kumvikanisha amajwi yabo.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa, indangururamajwi zibafasha kumvikanisha amajwi yabo, ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama ndetse harimo n'abanyamahanga. Imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo n'ibitabo byo kwandikamo ibivugirwa mu nama.

Abagabo batandukanye bicaye mucyumba kiri kuberamo inama, bambaye amakote ndetse hari undi wambaye ishati y'ubururu. Imbere yabo bose hari uducupa tw'amazi yo kunywa n'indangururamajwi.

Abantu batandukanye, harimo abagore n'abagabo, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa, bamwe muri bo bafite terefone ngendanwa kandi barakurikiye.

Abantu batandukanye bari mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo hari uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse n'imitobe iryohera, hakaba n'indangururamajwi zibafasha kumvikanisha amajwi yabo.

Abagabo batandukanye bicaye hamwe mu nama, bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Umwe muri bo afite mudasobwa imbere ye, ku meza hakaba hari n'igikapu. Undi wicaye imbere yambaye ikote.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu nama bose ni ku ntebe z'imikara ndetse imbere yabo hari ibitabo byo kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama, bisa nkaho umugore ari we uyiyoboye.

Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Abantu bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bagiye bafite utuntu imbere yabo twanditseho amazina yabo ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa, bakurikiye ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Abantu bagiye batandukanye harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama bambaye imipira y'ubururu bwijimye, ndetse imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa, baratuje bakurikiye inama.

Icyumba kiri kuberamo inama harimo abagabo ndetse n'abagore bagiye batandukanye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse na telefone ngendanwa hakaba hari n'amakayi yo kwandikamo ibivugirwa mu nama.

Abagore batatu bicaye hamwe, bigaragara ko ari inama. Imbere yaho hagiye hari udukarita twanditseho ibihugu baje bahagarariye ndetse hari n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Umugabo ndetse n'umugore bicaye ku ntebe z'imikara, bigaragara ko bari mu nama ndetse imbere yabo hari indangururamajwi zibafasha kumvikanisha amajwi, n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda, abenshi muri bo bafite uducupa tw'amazi imbere yabo ndetse n'ibitabo byo kwandikamo ibivugirwa mu nama.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama bambaye neza kandi barakurikiye, bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo, uducupa tw'amazi yo kunywa, inyuma hari undi mugabo uhagaze.

Abaturage bagiye batandukanye bicaye ahantu hamwe harimo abagore, abana ndetse n'abagabo bicaye imbere y'inyubako bigaragara ko itaruzura neza ifite ibirahure by'ubururu.

Abagabo bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse bafite n'indangururamajwi zibafasha gutanga ibitekerezo byabo.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, abicaye bafite mudasobwa imbere yabo n'uducupa turimo amazi yo kunywa.

Abantu bakoraniye hamwe biganjemo urubyiruko bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu imbere yabo hagiye hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse umwe muri bo afite n'agakombe karimo ikawa imbere ye hateretse telefone ngendanwa.

Abantu bagiye batandukanye, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama ndetse harimo n'abashinzwe umutekano mu nzego zigiye zitandukanye, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye amarinete, yambaye ishati y'umweru ndetse afite indangururamajwi mu ntoki ze, imbere ye hari agacupa k'amazi yo kunywa, naho ku ruhande rwe hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo.

abagabo ndetse n'abagore bambaye neza bamwe bahagaze hasi abandi bahagaze hejuru bari gufata ifoto inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo agiye atandukanye bisa nkaho ari inama.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, afashe mu biganza bye terefone ngendanwa ndetse ari kwamamaza uburyo ushobora gukoresha urubuga rw'Irembo, ukabyikorera, ukaba wakwaka ibyangombwa bitandukanye.

Abanyeshuri bagiye batandukanye, bambaye amashati y'umweru ndetse n'umugabo ubicayemo, wambaye ishati itukura. Bose bafite mudasobwa imbere yabo ndetse ku ruhande, hari abagabo babiri bahagaze, bambaye amakote.

Ibinyabiziga bitandukanye biri hamwe, bikaba biri mu mabara atandukanye, hari iy'ubururu, umweru, umukara, ndetse hakaba hari n'ipikipiki, munsi handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Abanyeshuri bagiye batandukanye, bamwe bambaye imipira y'imbeho, abandi bambaye amashati y'umweru, bambaye n'amapantaro ya kaki, imbere yabo hari amamudasobwa bari kwiga.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi, yambaye umupira ugizwe n'amabara y'ubururu, afite telefone ngendanwa mu ntoki ze ndetse ari kwerekana ko ushobora nawe kubyikorera wiyakira ibyangombwa bitandukanye ku rubuga rw'irembo.

Amategeko agenga uburyo bwo kwirinda Korona virusi, kwirinda guhererekanya amafaranga mu ntoki, gukaraba intoki igihe cyose, gusiga intera ingana na metero hagati y'umuntu n'undi ndetse no kwambara agapfukamunwa.

Inzu ifite umuryango uri mu ibara ry'umuhondo, handitseho Irembo ndetse hasi hari akantu bajugunyamo imyanda igiye itandukanye, mo imbere mu nzu harimo imashini zipurintinga.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, afashe telefone ngendanwa mu ntoki, ndetse ari kwerekana uburyo nawe ushobora kubyikorera, ukoresheje urubuga irembo, ukaba wakwaka ibyangombwa bigiye bitandukanye.

Intambwe ya mbere, gana urubuga rw'irembo ahanditse polisi, ibisabwa, usaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba ifite imyaka hejuru y'imyaka cumi n'itandatu.

Ahantu hakoraniye abantu benshi batandukanye bahagaze mu ihema ry'umweru rinini, hakaba hari umusore uri imbere wambaye umupira w'umweru ndetse ku ruhande rwe hari mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Ahantu hakoraniye abantu benshi bagiye batandukanye, hari abicaye mu ihema rinini ry'umweru. Hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'undi wambaye umupira utukura. Imbere yabo, hari mudasobwa ndetse na terefone ngendanwa.

Ahantu haparitse ipikipiki, hicayeho umugabo, niwe uyitwara, inyuma ye hari icyapa kiriho ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bicururizwa muri iyo nyubako.

Ahantu bigaragara ko hahingwa ibihingwa bigiye bitandukanye, birimo indabo, hakaba hari n'ibiti ndetse hari ipoto rirerire rinyuraho insinga, ririho n'itara rimurika mu muhanda nijoro.

Ipoto rirerire rinyurwaho n'insinga zigiye zitandukanye zikwirakwiza umuriro mu baturage. Rikikijwe n'ibiti ku ruhande. Ndetse hepfo yaryo hari igipangu kirimo inzu nini ifite igisenge cy'umukara.

Ipoto rirerire rinyurwaho n'insinga zigiye zitandukanye, zijyanye umuriro mu ngo z'abaturage. Hakaba hariho n'itara ryaka nijoro rimurikira umuhanda, ku ruhande hateye ibiti birebire ndetse hari n'inyubako nziza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu. Hepfo hari amazu y'ubucuruzi haparitse n'imodoka. Hakaba hari n'ipoto rirerire ririho insinga nyinshi zigiye zijyana umuriro mu ngo z'abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hari icyapa kigaragaza ko imbere hari ikona, impande y'icyo cyapa haparitse imodoka ebyiri.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye birebire, ndetse hari n'ipoto rirerire ry'amashanyarazi, riri kunyurwaho n'insinga zitandukanye, zigenda zijyana umuriro mu ngo z'abaturage bari hafi aho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'amapikipiki ndetse n'imodoka. Ku ruhande hakaba ari icyapa cya mpandeshatu, kigaragaza ko uwo muhanda ujya ufite utundi duhanda tuwushamikiyeho.

Ahantu bigaragara ko ari mu bitaro, haparitse imodoka ishinzwe gutwara abantu, izwi ku izina ry'imbangukiragutabara. Aho itwara abantu bakoze impanuka, abagore benda kubyara n'abandi bakeneye ubufasha bwihutirwa.

Inyubako ifite amatafari ndetse n'igisenge kiri mu ibara ry'ubururu, hakaba hari n'ahantu habugenewe abantu bakarabira intoki, ndetse hari umwana wicaye mu kagare bigaragara ko yamugaye.

Ahaparitse ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bifite n'amabara atandukanye, hakaba hari n'amazu yandi akorerwamo ibintu byinshi. Hari ahandi hari amadarapo abiri atandukanye harimo iry'u Rwanda.

Abantu batandukanye bicaye ahantu hamwe, haratwikiriye imvura ntabwo ishobora kubageraho, bigaragare ko ari kwa muganga, hari kugenda hagenda umwumwe muganga akamupima, abandi bategereje ko bagerwaho.

Mu bitaro bya gisirikare bizwi nk'i Kanombe, haparitse imodoka y'imbangukiragutabara yifashishwa mu gutwara abantu bahuye n'impanuka, abagore benda kubyara ndetse n'abandi.

Abantu benshi batandukanye bicaye hamwe, ndetse ku ntebe hagiye hariho uducupa tw'amazi ndetse n'icyo kunywa kizwi nka ji, hakaba hari abandi bagabo babiri bicaye imbere bafite mudasobwa imbere yabo.

Umugabo w'imibiri yombi, yambaye ingofero y'umukara, iriho akabara k'umuhondo, amarinete ndetse n'igikanzu cy'umutuku, kiriho akabara k'umweru. Akaba ari umwavoka cyangwa umucamanza.

Abashinzwe umutekano babiri, bakorera mu gihugu cy'u Rwanda, mo hagati yabo hari umugabo w'umunyamahanga, wambaye ikanzu n'akagofero k'umweru, inyuma yabo hari imodoka y'abashinzwe umutekano.

Umugore wambaye ingofero ufite imisatsi myinshi y'umukara ndetse yambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku, umweru n'umukara. Ku ruhande rwe hari ibendera ririmo ishusho y'izuba.

Igipangu kinini kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, kikaba gifite icyapa hejuru kigaragaza ko ari gereza ya Nyanza, aha hakaba hajyanwa abantu bakoze ibyaha bitandukanye bakagororwa.

Ushinzwe umutekano wo muri gereza, ari kwambika umugororwa amapingu. Ndetse umugororwa ku rutugu rwe afite igikapu cy'umukara, hirya hari ibindi byuma by'ikoranabuhanga.

Abagabo babiri bahagaze hamwe, bafashe ikintu cy'igiti mu ntoki, ndetse bambaye amakanzu y'imikara, harimo utubara tw'umweru, bigaragara ko ari abacamanza, hino yabo hari umuntu ufashe indangururamajwi mu ntoki.

Abantu bambaye impuzankano ziri mu ibara rya oranje ndetse n'iroza, bakaba ari abagororwa. Baba barakoze ibyaha bitandukanye, bagakusanyirizwa hamwe kugira ngo bagororwe.

Abagabo ndetse n'abagore bagiye batandukanye bambaye imyenda yiganjemo umukara, bazamuye amaboko y'iburyo naho ay'ibumoso afashe ku mabendera bari kurahira amabendera afite ibara ry'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Abantu batatu bicaye, harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wicaye hagati, bose ku ntugu zabo bafiteho utuntu turiho ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Abantu bicaye hamwe, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'iroza, aba ngaba akaba ari abagororwa bahanirwa ibyaha bitandukanye bagiye bakora, inyuma yabo hicaye abandi bantu basanzwe.

Abaturage bagiye batandukanye bakoraniye hamwe bicaye hasi, abandi bicaye ku ntebe ndetse bamwe muri bo bitwikiriye imitaka. Imbere yabo hari umugabo uhahagaze uri gutanga ijambo.

Abagabo bahagaze bambaye imyambaro isa, iyi myambaro ikaba yambarwa n'abantu bahamijwe ibyaha bakoze, ndetse bakaba bazamuye ibiganza byabo by'iburyo iby'ibumoso byifashe mu gatuza.

Ahantu hateraniye abaturage bagiye batandukanye bicaye hasi mu busitani buhari, bamwe muri bo izuba ryabishe bitwikira imitaka, hakaba hari n'undi mugabo uhagaze imbere yabo wambaye ipantaro y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu byerekezo bibiri bitandukanye, ahazamuka hari kunyuramo amapikipiki, naho ahamanuka hari gucamo imodoka ndende y'ikamyo y'abapolisi bakora umutekano.

Ibyuma biri mu ibara ritukura, bifite ibihombo by'umukara, bikaba byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro zoroheje, mu gihe mutegereje ko ababishinzwe babihuguriwe bahagera.

Ibyuma biri mu ibara ry'umutuku bifite ibihombo by'umukara, bikaba byifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro zoroheje, mu gihe mutegereje ko ababishinzwe babihuguriwe bahagera.

Ikinyabiziga cy'umukara giparitse, inyuma yacyo hari ibindi binyabiziga byinshi bitandukanye, imbere yacyo hahagaze umugabo wirabura ukora umutekano wo mu muhanda uzwi nk'umupolisi.

Ahantu mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru, hari kunyurwaho n'abanyeshuri batandukanye bavuye ku mashuri yabo ndetse hahagaze n'Abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda.

Inyubako ndende igiye iriho uturindabasazi turi mu ibara ry'umweru ndetse munsi haparitse imodoka z'abashinzwe umutekano bazwi nk'abapolisi n'iyindi y'umukara.

Icyuma kiri mu ibara ritukura, kikaba gifite n'igihombo cy'umukara, cyifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro zitateganyijwe kandi zoroheje, mu gihe bategereje ko ababishinzwe babihuguriwe bahagera.

Umuhanda nyabagendwa, uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Uyu muhanda ukaba ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye, icyerekezo kimwe kiri kunyuramo imodoka y'ivatiri, ikindi harimo ipikipiki n'ibindi.

Ahantu hakoraniye abantu benshi cyane batandukanye, hakaba hari umugabo, umugore ndetse n'undi wambaye igikanzu cy'umutuku, akaba ari perezida w'u Rwanda, ari kurahira.

Abagabo ndetse n'abagore, abagabo bambaye amakote naho abagore bayakenyeye, bazamuye akaboko k'iburyo, ak'ibumoso gafashe ku ibendera riri mu mabara, ubururu, umuhondo, n'icyatsi bari kurahira.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane, hari amabendera, ari mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, akaba ari ay'ishyaka rya FPR. Hari abashinzwe umutekano ndetse bari kwamamaza ishyaka n'umukandida wabo.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, benshi bafite uducupa tw'amazi imbere yabo mudasobwa ndetse bakagira n'amakaye bari kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Ahazwi nko muri sitade, hakoraniye abantu benshi cyane bagiye batandukanye ndetse harimo n'abanyamahanga. Hakaba hari umugabo uri gutambuka imbere wambaye ikote ryiza ry'umukara, akaba ari Perezida w'u Rwanda.

Abamama babiri bahagaze imbere, umwe arakenyeye, yambayemo agapira k'icyatsimu imbere, ndetse afite indangururamajwi mu ntoki ze inyuma ye, hari ihema rinini ry'umweru, ndetse ririmo intebe zo kwicaramo.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bahagaze hamwe, imbere yabo hari akameza karambuye igitambaro cy'umweru ndetse bari kwamamaza umukandida waho uhagarariye ishyaka rya girini pati.

Abagabo bagiye batandukanye, bicaye ahantu hari kubera inama, bamwe muri bo bambaye imipira isa y'umweru ndetse imbere yabo hakaba hari n'amabendera agiye agaragaza ibihugu baturukamo.

Umugabo uhagaze imbere y'abaturage benshi cyane, bigaragara ko bari ku mufana, yambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara n'ingofero y'umukara akaba ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bicaye ku ntebe zisa ubururu, abenshi muri bo bambaye amakote n'abagore barakenyeye bya kinyarwanda.

Umugore wicaye ahantu bigaragara ko ari mu nama yicaye ku ntebe y'umukara. Imbere ye hari indangururamajwi zimufasha kumvikanisha ijwi rye ndetse hakaba n'agacupa k'amazi yo kunywa.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo abagabo ndetse n'abagore. Abagabo bambaye amakote naho abagore barakenyeye. Inyuma yabo hari amabendera abiri agiye atandukanye harimo n'iry'u Rwanda. Hakaba hari n'insakazamashusho.

Mu cyumba ahari kubera inama, hicayemo abantu bagiye batandukanye, abagabo ndetse n'abagore, turi kubona umugore wambaye ikote ry'umukara, amarinete ndetse n'isaha, imbere ye hari agacupa k'amazi.

Abantu bagiye batandukanye, biganjemo abambaye imipira y'ubururu ndetse hari umugabo uhagaze imbere yabo wambaye ishati y'umweru n'ingofero y'umukara, bafite amadarapo yanditseho FPR.

Umugabo uhagaze, uri kwiyamamariza mu ishyaka rya girini pati, ku mwanya wo kuba perezida w'umukuru w'igihugu, yambaye ishati y'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki ze, ari kuvuga.

Abantu benshi cyane bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, barakurikiye, imbere yabo hagiye hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafite mudasobwa. Imbere hakaba hari insakazamashusho.

Abadamu bahagaze, barakenyeye bose. Bazamuye ibiganza by'iburyo ndetse iby'ibumoso bifashe ku mabendera. Bari kurahira ndetse amabendera arimo ibara ry'umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Abagabo babiri bicaye imbere ndetse n'umugore, imbere yabo hari indangururamajwi nyinshi z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye mu Rwanda, bafite uducupa tw'amazi imbere yabo ndetse n'amafoto y'umwe muri abo, uri aho ngaho.

Abagabo ndetse n'abagore batandukanye bazamuye akaboko k'iburyo, ak'ibumoso gafashe ku ibendera riri mu mabara atandukanye nk'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, bari kurahira.

Ahantu hakoraniye abantu benshi bagiye batandukanye, impande yabo, hari inyubako ndende ihari ndetse hakaba hari n'ibindi byuma biri mu ibara ry'umweru bigiye bishinzeho amadarapo agiye atandukanye.

Abagabo babiri bicaye hamwe, bicaye ku ntebe z'imikara, mo hagati yabo hari ibendera ndetse n'imbere yabo hakaba hari indangururamajwi ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa n'ibitabo bari kwandikamo.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu byerekezo bitandukanye, hari kunyurwamo n'imodoka itwara imizigo igiye itandukanye, inyuma hicayemo umugabo wambaye ikote ry'ubururu, mu gahanda k'abanyamaguru harimo abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, biri kugenda mu byerekezo bitandukanye. Harimo ikamyo nini itwara imizigo igiye itandukanye, nk'amabuye, umucanga ndetse n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo. Ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye. Mu cyerekezo kimwe, harimo imodoka y'umweru, itwara imizigo igiye itandukanye ndetse imbere yayo hari n'ibindi binyabiziga kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo ipikipiki, hepfo yayo hari intebe ebyiri iri mu ibara ry'ubururu n'iy'umweru, inyuma y'izo ntebe hari ikinyamitende cy'igare, mu muhanda harimo urujya n'uruza rw'abantu.

Umuhanda urimo ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, kimenyerewe ku izina rya Yutongo, ku ruhande rwacyo hakaba hari umuntu uri gutambuka, wambaye umupira w'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ipikipiki ihetse umugenzi, n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange imenyerewe nka yutongo. Hirya y'umuhanda hari ibiti bihateye byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye. Hari amapikipiki ndetse n'ibindi binyabiziga binini byifashishwa mu gutwara imizigo igiye itandukanye n'abanyamaguru bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse n'imodoka nini imenyerewe ku izina rya fuso itwara imizigo, mu gahanda k'abanyamaguru harimo umugabo wikoreye umufuka.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo amapikipiki atwaye abagenzi, igare ndetse n'imodoka nini iri mu ibara ry'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka iri mu ibara ry'umweru, ifite ku gikontineri yitwaye icyapa cyanditseho uruvange, ikaba itwara imizigo igiye itandukanye iremereye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hari igare ririho umufuka urimo ibintu bitandukanye ndetse ku ruhande hakaba n'ipikipiki itwara imizigo itaremereye cyane.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye. Uri kunyurwamo n'amapikipiki abiri, imwe ihetse umuntu, undi nta muntu ihetse. Ku ruhande hari ibiti ndetse n'igipangu cy'umweru.

Ipikipiki iparitse idafite umuntu uyicayeho, hirya hari umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ipikipiki ihetse umugenzi ndetse n'imodoka zisanzwe.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo amagare abiri ari gusunikwa n'abagabo, yikoreye imifuka irimo ibirayi, naho ku ruhande rwabo hari kunyura imodoka itwara abantu.

Ikinyabiziga kizwi ku izina rya Yutongo, kikaba gitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'imizigo, kikaba kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru mu muhanda wa kaburimbo, hari abantu benshi baje kugitega.

Ahategerwa imodoka mu buryo bwa rusange hazwi nko muri gare, hakaba hari ibinyabiziga bitandukanye byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka imodoka zibatwara.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo imenyerewe ku izina ry'ivatiri iri mu ibara ry'umweru, hirya ku muhanda hari abanyamaguru bari kugenda ndetse n'umutaka w'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga bibiri bitandukanye. Harimo imodoka nini izwi ku izina rya fuso, itwara imizigo igiye itandukanye ndetse n'ipikipiki ihetse umugenzi.

Imodoka zigiye zitandukanye zitwara abantu mu buryo bwa rusange, ziparitse ahazwi nko muri gare, zikaba zitwara abagenzi, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje gushaka uko bataha ndetse ku ruhande hari n'amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru ku ruhande. Haparitseho utumoto tw'amapine atatu, tuzwi nka rifani. Tukaba twifashishwa mu gutwara imizigo itaremereye cyane.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka nini izwi ku izina rya Howo itwara imizigo igiye itandukanye nk'umucanga, amabuye, ndetse n'ibindi.

Ahantu hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abantu, hakaba hari amapikipiki azwi mu bwoko bwa lifani atwara imizigo itaremereye ndetse n'indi pikipiki ikoresha amashanyarazi.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, zikaba ziri ahazwi nk'ahitwa muri gare, zikaba zije guparika kugira ngo zishake abagenzi zitwara, zibageze aho bashaka kandi neza.

Umuhanda wa kaburimbo uri gukatamo imodoka nini y'ifuso itwara imizigo igiye itandukanye, hino yayo hari ipikipiki itwaye umugenzi uhetse igikapu cy'umukara.

Imodoka iparitse mu muhanda, itwara abantu mu buryo bwihariye izwi nka tagisi vuwatire, iruhande rwayo hakaba hari ibyuma bitukura, munsi hakaba hari n'amazu yo guturwamo.

Umuhanda wa kaburimbo, uri mu byerekezo bibiri bitandukanye. Hari kunyurwamo ipikipiki idatwaye umuntu ndetse n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ikabageza aho bagiye amahoro, iri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, mu byerekezo bitandukanye, harimo imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'imodoka ntoya, hakabamo n'ipikipiki.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bamwe baricaye bari kuruhuka, abandi bari kugenda. Ku ruhande hakaba hari inyubako ndende zikorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Ahantu Leta y'u Rwanda yubakiye Abaturarwanda, bashobora kuza bakicara bananiwe, hari ibiti birebire byiza ndetse n'utuzu tugiye dukorerwamo ubucuruzi butandukanye. Hicaye abantu bari muri gahunda zabo.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n' ahantu hari tapi isa icyatsi ikorerwaho siporo, ni uburyo Leta y'u Rwanda yashyizeho bworohereza abaturage gukora siporo.

Icyapa cya mpande enye, kikaba gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso ni umuhondo, harimo ikirango kiri mu ibara ry'umukara mu ishusho y'uruziga, kigaragaza ko imbere umuhanda wizenguruka.

Icyapa ndanga cyo mu muhanda. Gikoze muri mpandeshatu, ndetse gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umuhondo n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kigaragaza ko imbere hari agahanda gashamikiye kuri uwo muhanda.

Icyapa ndanga cyo mu muhanda, kiri mu ishusho ya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso n'umuhondo. Naho ikirango kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa ndanga cyo mu muhanda cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kigaragaza ko imbere ku muhanda hari undi muhanda uwushamikiyeho.

Umuhanda wa kaburimbo, ku mpande zaho hari icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu. Gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse munsi yacyo hari akandi kapa kari muri mpande enye.

Umuhanda wa kaburimbo ugiye urimo imirongo y'umweru, igaragaza aho igice kimwe gihagarariye. Ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse ku ruhande rwawo hari icyapa cyanditseho Karongi, kigaragaza ko ari muri ako Karere.

Icyapa cyo mu muhanda, gishinze ku cyuma, kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifite umuzenguruko utukura, ubuso ni umweru, naho ikirango kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa ndanga cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango kiri mu ibara ry'umukara kimenyesha ko imbere hari imirimo y'ubwubatsi ko umuntu akwiye kugenda gake.

Icyapa ndanga cya mpande eshatu. Gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ibirango bibiri biri mu ibara ry'umukara. Kikaba kimenyesha ko hari umuhanda ufite ibyerekezo bitandukanye.

Icyapa cyo mu muhanda gikikijwe n'ibiti byinshi, icyo cyapa kiri mu ishusho ya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso ni umuhondo, ibirango biri mu ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane buririmo indabo zigiye zinyuranye, hakaba hari n'icyapa cyo mu muhanda kigizwe na mpande eshatu, ndetse kikaba kimenyesha ko ugomba gutanga inzira, mu gihe uhageze.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, kikaba gifite umuzenguruko utukura. ubuso n'umweru, ibirango biri mw'ibara ry'umukara, bigaragaza ko umuhanda uri mu byerekezo bitandukanye.

Icyapa ndanga gikoreshwa mu muhanda, kikaba gifite umuzenguruko utukura, ubuso ni umweru, imibare ikaba yanditse mu ibara ry'umukara, kikaba kimenyesha ko utemerewe kurenza umuvuduko wa mirongo ine ku isaha.

Icyapa cya mpande enye cyifashishwa mu muhanda kiyobora ibinyabiziga. Gifite ubuso bw'umuhondo n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kimenyesha ko kuri uwo muhanda hari uwundi uwushamikiyeho.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'indabyo nziza cyane, hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko ari mu karere ka Muhanga, ukikijwe n'abaturage baje kureba isiganwa ry'amagare.

Icyapa ndanga, kiri mu ishusho y'uruziga, kikaba gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso ni ubururu, ikirango kiri ibara ry'umweru, kikaba kigaragaza ko muri uwo muhanda hari akandi ganda kawushamikiyeho.

Umuhanda wa kaburimbo, hari igiti gishinzeho ibyapa bibiri byo mu muhanda biri mu ishusho y'uruziga, bifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara, bigaragaza ko bitemerewe gukata ujya iburyo.

Icyapa cyo mu muhanda gikikijwe n'indabo zigiye zitandukanye, kiri mu ishusho ya mpande eshatu, kandi gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo ku mpande zawo hari utuborudire dusize amabara y'umukara ndetse n'umweru n'icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, hirya hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire.

Icyapa ndanga cyo mu muhanda, kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifite umuzenguruko utukura, ubuso ni umweru, ikirango cy'imodoka, kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kigaragaza ko umuhanda unyerera.

Icyapa ndanga, cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umuhondo, ndetse n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Kikaba kimenyesha ko imbere hari ubwubatsi buri kubahabera bityo ko kwiye kugenda gake.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpade enye, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso ni umweru, ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kimenyesha ko byemewe gukata ujya mu kindi cyerekezo.

Icyapa cya mpande eshatu gikoreshwa mu muhanda kugirango kiyobore ibinyabiziga, gifite umuzenguruko utukura, ubuso ni umweru, na ho ikirango kiri mu ibara ry'umukara, kiragaragaza ko ari aho kwambukira.

Icyapa ndanga cyo mu muhanda gishinze ku cyuma kirekire. Kiri mu ishusho ya mpandeshatu kikaba gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, n'ikirango kigaragaza ko imbere hari dodani.

Icyapa gishinze ku giti cyacyo kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru kikaba kiri mu ishusho ya mpande eshatu, kigaragaza ko nimba ugeze aho ngaho utwaye ikinyabiziga ugomba gutanga inzira.

Abantu bagiye batandukanye bari mu mirimo yabo, ku ruhande hakaba ari n'amazu y'ubucuruzi. Hahagaze abantu bari guhabwa serivise zitandukanye, hari n'imitaka myinshi cyane ibarinda izuba.

Inyubako zigiye zitandukanye, zifite n'ibisenge bitandukanye, ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo, unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse hakaba n'amapoto anyurwaho insinga zitandukanye zisakaza amashanyarazi.

Amapikipiki abiri, imwe iriho umugenzi, indi nta mugenzi uriho. Inyuma yabo hakaba hari ibyapa bibiri by'umweru ndetse n'abanyamaguru bari kugenda ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti byiza cyanebirebire ndetse hakaba hari n'amapoto ariho amatara amurikira ibinyabiziga mu gihe cya nijoro, hirya hari inyubako ndende y'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo imodoka nini y'umweru ndetse ku ruhande hakaba ari ahantu ibinyabiziga bijya gufatira esanse mu gihe yashizemo kugira ngo bikomeze kubasha kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye amapikipiki, imodoka nini n'intoya ndetse hari ibyuma byabugenewe byifashishwa mu kuyobora ibinyabiziga bikagenda kuri gahunda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanyekanye: amapikipiki, imodoka nini n'intoya ndetse hakaba hari n'ibyuma biyobora ibinyabiziga uko bigenda.